Icyapa cyamamaza ibijyanye n'ubwishingizi bugenewe amatsinda n'ibigo bito hagaragaraho abagabo babiri bari mu murimo w'ububaji, umwe yambaye iby'ubururu undi akaba yambaye iby'igitaka.

Ni icyapa kinini cyamamaza, gifashe ku cyuma kizamutse cy'umubyimba w'uruziga, hari iruhande rumwe ruri mu ibara ry'icyatsi, iry'umweru ndetse n'ubururu, urundi ruriho umusaza n'umukecuru bageze mu za bukuru.

Icyapa kinini cyamamaza gishinze ku cyuma cy'umuzenguruko aho gifite ibara ryiganjemo umutuku ndetse n'umweru gihagazeho umugabo wambayekiye ikoti akaba ari kumwenyura.

Icyapa kinini cyamamaza gishinze icyuma cy'uruziga, ndetse hejuru hariho abantu batagaragara bambaye ubusa, bakingirijwe n'akantu k'umutuku.

Ni icyapa cyamamaza cy'umweru cyanditsemo amagambo y'ubururu akaba ari icy'ikigo gishinzwe ubwishingizi aho banditse mu rurimi rw'amahanga, ugenekereje mu kinyarwanda barakubwira ngo teganyiriza ejo hawe ndetse n'uyu munsi.

Icyapa cyamamaza ibijyanye n'ubwishingizi hagaragara umuryango w'umugabo n'umugore bafite akana kabo kari kuvurwa kitabwaho n'umuganga wambaye iby'umweru.

Icyapa kinini cyamamaza gifashwe n'ibyuma bibiri biteganye, kikaba kigaragaraho umusozi uriho umunara ndetse n'akazu, hasi hakaba hari kandi amazi y'inyanja.

Icyapa kinini cyamamaza kigizwe n'ibara ry'umweru amagambo y'icyatsi, hariho umusaza ndetse n'umukecuru bafite umwana bamwenyura bigaragara ko ari umuryango wishimye.

Ni ishusho ya terefone ngendanwa, igaragaramo ibara rinini hagati ry'umweru, ndetse hejuru no hasi hakaba hari icyatsi. Iragaragaza ko tugeze ku isaa tanu n'iminota mirongo itanu n'itanu.

Mu ishusho ya telefone ngendanwa higanjemo ibara ry'umweru, akandi gato k'icyatsi ndetse nak'umukara harimo ishusho y'umuntu utagaragara urimo kugenda.

Ni muri telefone yenda gushiramo umuriro dore ko ugeze kuri makumyabiri n'umunani kw'ijana ikaba igaragara ko turi ku i saa saba n'iminota mirongo ine n'ine.

Inkweto nziza zifunguye aho ushobora kuzambara utembera cyangwa se ugiye ahandi hantu, zikaba zikorerwa mu gihugu cy'u Rwanda kuko ziriho ibigango bibigaragaza.

Abantu babiri barimo umuzungukazi, wambaye agapira k'amaboko, ufite imisatsi miremire igiye inyuma, terefone mu ntoki, ararebana n'uri kumwakira ufite akuma kabara ibicuruzwa.

Iduka ry'imyenda rigaragaramo ibicuruzwa bitandukanye, rifite utudirishya tw'umweru, harim’inkweto, imipira y'umuhondo, umukara ndetse n'umutuku.

Iduka rigaragaramo ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo ibyo kwambara hari imipira, ingofero z'umuhondo umutuku ,umukara ndetse n'ibindi .

Ni iduka ry'imyenda rishashemo amakaro y'umukara ndetse n'umweru, hirya gato haragaragaramo umukobwa ufite mudasobwa imbere ye. Harimo ibishusho byambikwa imyambaro kugira uyireba abashe kuyirambagiza.

Ni inzu nziza y'inkuta z'umweru ndetse n'amakaro ikorerwamo ubucuruzi bujyanye n'imyambaro, hari imipira iri ku murongo aho iri mu kabati kagenewe kuyibikwamo.

Ni ishusho ya terefone igaragaza ko umuriro wayo ugeze kuri mirongo inani n'icyenda ku ijana, naho tukaba tugeze ku isaha y'isaa saba n'iminota makumyabiri nine, haragaragaramo iduka ry'imyenda.

Ishusho ya telefone igaragaramo iduka ry'imyenda itandukanye; hari imipira iri ku cyuma itondetse ku murongo; tukaba tubona ko hejuru hari isaha y'isa saba n'iminota makumyabiri n'itanu.

Imodoka y'umukara ikaba imiryango yayo ifunguye iriho ururabyo rw'umutuku n'umweru ndetse abantu bakaba bagiye kuyinjiramo uruhande rumwe ruriho umudamu urwo hirya ruriho abagabo.

Abagabo babiri batege umugongo hari uwambaye umupira w'umukara ndetse undi ni ikoti n'ishati y'umweru iri kugaragaraho gato imbere yabo hari imodoka nshyashya bari kureba.

Iki n’ikigo gicuruza ibinyabiziga, haragaragara abagabo bane, babiri bafashe igifunguzo nk'ikimenyetso cyo kuba umwe muri bo agiye guhabwa iyi modoka, hari ufite agakapu mu ntoki gatukura.

Ni abantu bahagaze babiri bafashe ku gifunguzo cyanditseho akagera, harimo umwirabura ndetse n'abazungu batatu barimo umudamu umwe, inyuma yabo hakaba hari imodoka.

Zitondetse ku murongo, ziragaragara nkaho ari nshyashya. Imbere yazo hari abagabo babiri, bose bambaye udupfukamunwa, umwe ufite umupira w'ubururu. Ni imodoka zishinzwe gutwara abantu muri rusange.

Ibinyabiziga bihagaze mu mbuga yabugenewe hari kimwe cy'umukara ndetse n'ikindi kiri hirya gishinzwe kwikorera imizigo cy'umweru, hakaba hari n'imbangukiragutabara itwara abarwayi.

Ni icyanya kinini gihagazemo ibinyabiziga byinshi, byiganjemo iby'umweru ndetse n'umukara. Hagati y'inyubako ndende, hirya hari icyuma kizamutse cy'umuhondo.

Akayira k'abanyamaguru kabugenewe kari kugaragaramo umusore uri guturuka hirya, iruhande rwako hateye ubwatsi ndetse n'indabyo, imbere hari amazu akorerwamo byinshi bitandukanye.

Imodoka nshyashya ikaba iri mu muhanda ukikijwe hirya n'urukuta rw'amabuye y'umweru n'umukara ndetse n'imiseke, ikaba igurishwa amafaranga miliyoni cumi n'ebyiri.

Imbere y'imodoka nshyashya y'umweru yahariwe gutwara imizigo, hahagaze abagabo babiri, umwe afite igipapuro mu ntoki ze ,wambaye umupira w'umukara afashe no ku gifunguzo.

Ni ahatangirwa serivise zijyanye n'ibikorwa byo kubitsa ndetse no kubikura amafaranga. Haragaragara umudamu wambaye akantu kiganjemo umutuku, ufite ikaramu mu ntoki ari kwandika.

Ni ahakorerwa serivisi zijyanye no kubitsa ndetse no kubikuza amafaranga aho abaturage batonze umurongo baje kuzihabwa, imbere mu bazitanga harimo mudasobwa amasura yabo ntari kugaragara.

Ku meza hateretse inoti nkuru mu Rwanda akaba ari amafaranga ibihumbi bitanu akorwa na banki nkuru y'igihugu, iriho ibiseke bibiri ndetse n'ikirangantego.

Izi ni inzu rusange zikorerwamo ibijyanye n'ibigo by'imari aho zibika amafaranga y'abaturage ndetse uyakeneye akaza kuyatwara mu gihe cyose abyifuje.

Mu Rwanda hagaragara inote nyinshi zitandukanye, ariko iyo bita imfura muri zo ni iya bitanu igaragaraho uruhande rumwe ingagi, urundi rukagaragaraho ibiseke bibiri.

Icyapa cy'ibara ry'umweru ndetse n'umukara hagati muri cyo hakaba hariho igiceri cy'ifaranga rimwe, kiriho ikirangantego n'igisiga cyabambye amababa.

Mu bigo by'imari cyangwag se mu nzu zikorerwamo ubucuruzi bwo kuvunja amafaranga, hakunze kugaragaramo utwuma twahariwe mu kuyabara kuko bakira inote nyinshi.

Imodoka y'umukara iriho amagambo yandikishijwe umweru, imbere yayo hahagaze abagabo babiri bafite igisanduku mu ntoki, aba bakaba ari abakora umwuga ujyanye no gucunga umutekano.

Iki ni igiceri cyakoreshwaga hambere, dore ko cyakozwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na karindwi, kikaba cyanditseho ko cyakozwe na banki nkuru y'u Rwanda.

Mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi hirya no hino ku isi hagaragara ubucuruzi bw'ibiribwa n'ibinyobwa, aha hari umudamu uri guhabwa igikombe cy'amata kiri mu kirahure.

Ameza y'umukara ateretseho igikombe gikozwe mu bwoko bw'ikirahure gisa nk'ikirimo amata, iruhande rwacyo hariho isahani iriho ibiryo, hirya gato hari umugabo wambaye ishati y'umweru.

Ni ahakorerwa ubucuruzi bujyanye n'ibyo kurya ndetse no kunywa, hari umukobwa ushinzwe kwakira abantu, wambaye ikoti ndetse n'ikanzu y'icyatsi ari kumwe n'umugabo uje kugura.

Ahakorerwa ubucuruzi bujyanye no gutanga ibyo kunywa mu kabati hateretsemo amazi ari mu macupa maremare afite imifuniko y'ubururu, iruhande rwayo hari igipapuro abantu bakunze guhahiramo.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, haragaragara igice gito cy'icyuma gishinzwe gukonjesha ibyo. Hari akantu k'ubururu gateretseho teremusi ndetse n'akantu karimo capati.

Igicuba kirimo amata amakaro y'umweru hari umukobwa uhagaze mu nzu wambaye agapira k'amaboko maremare uri kuri terefone, imbere ye hari intebe y'urubaho.

Inzu zikunze gukora ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi bw'ibiryo ndetse n'ibinyobwa bihiye; aho uza ugatanga amafaranga ushonje maze bakakugaburira; haragaragara abakobwa babiri umwe wicaye n'undi uhagaze.

Ni ibiganza bitagaragara nyirabyo, bikaba bifite terefoni mu ntoki irimo ishusho y'icyatsi n'umweru, izengurutswe n'akantu k'umukara, aho iri kwifashishwa mu ikoranabuhanga.

Ni ishusho igaragara muri telefone iyo ugiye gukoresha uburyo bwo kohereza cyangwa kubikuza amafaranga iri mu rurimi rw'icyongereza ahambere hari kohereza aha kabiri kugura ndetse n'ibindi byinshi bikurikiyeho

Ni inyandiko igaragara muri telefoni aho biboneka ko ari umuntu wakiriye amafaranga asaga ibihumbi mirongo itanu, iri mu mabara y'umukara ndetse n'umweru.

Ubu ni buryo bugezweho bwifashishwa n'ibigo byinshi by'itumanaho aho ushobora kwakira kohereza amafaranga cyangwa se ukagura ibicuruzwa bitandukanye wifashishije telefone ngendanwa.

Inyandiko iri muri mudasobwa y'urwego rw'igihugu rushinzwe imisoro n'amahoro nk'uko ikirango kiri iburyo hejuru mu nguni kibigaragaza. Hari imbonerahamwe iri hagati igaragaza uko amafaranga yatanzwe.

Inyandiko iri muri mudasobwa y'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, hagati muri yo hari imbonerahamwe igaragaza uburyo ki abantu batanze imisoro.

Inyandiko y'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro iragaragara mu gisa nka mudasobwa, mu nguni y'ibumoso hari ikirangantego cy'u Rwanda ndetse hagaragaramo hagati imbonerahamwe.

Iyo ni inyandiko y'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro; hejuru ibumoso hari ikirangantego cya repubulika y'u rwanda; naho iburyo hakaba ikirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro.

Inyandiko igaragarira muri mudasobwa aho ari umweru amagambo y'umukara hagaragaraho amatariki harimo nk'iya makumyabiri n'enye ukuboza bibiri na makumyabiri n'itatu.

Ni inyandiko y'umweru iri ku rupapuro aho yandikishijwe amagambo y'umukara, hejuru umutwe uragira uti ikitonderwa n'aho ahagana hepfo hari izina rya nyirayo ndetse n'umukono we.

Iyi ni inyandiko iri muri mudasobwa y'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, kikaba ari icyemezo cyo kutabamo umwenda w'imisoro, aho gitangwa n'icyo kigo.

Inyandiko y'urwego rw'igihugu rushinzwe imisoro n'amahoro, uru ni urupapuro rugaragaza uwatanze imisoro ndetse iburyo hagaragara ikirangantego cy'Urwanda.

Ni inyandiko igaragara muri mudasobwa, ikaba ari iy'ikigo cy'imari gikorera hano mu Rwanda, ari cyo banki ya Kigali. Kigaragaza imbonerahamwe z'uburyo ki amafaranga yagiye yinjira kuri za konti.

Aya ni amafaranga yifashishwa mu gihugu cya Congo mu kugura ibintu bitandukanye, inota imwe iragaragaraho imbogo ebyiri i ruhande rwazo hari ishusho y'ikigirwamana.

Ni ibiceri biri ku murongo n'ibindi bikeya binyanyagiye ku meza bikoreshwa mu bihugu by'amahanga. Akenshi ibi byifashishwa iyo umuntu agiye kugura utuntu duto.

Ubucuruzi bwo kuvunjisha ndetse no guhererekanya amafaranga, ni bumwe mu bikorwa hirya no hino ku isi hose, ibiganza bitagaragaza ba nyirabyo byose bifashe ku note.

Ibiganza bibiri by'abazungu ariko bitagaragaza amasura yabyo, bifashe ku noti. Izi ni izifashishwa mu gihugu cy'Amerika, zirangwa n'ishusho y'umugabo ufite imisatsi igiye inyuma.

Buri gihugu kigira inote, ibiceri ndetse bikaba ari amafaranga aba akoreshwa mu migurire y'ibicuruzwa bitandukanye. Aha hari ibiceri biri ku meza ndetse n'inoti iriho ifoto y'umugabo.

Intoki zirabura cyane zicigatiye inoti mu ntoki aho zirimo kuzibara, hari ifoto y'umugabo uriho utagaragara neza ariko ufite imisatsi igiye inyuma akaba ari ijana.

Zimwe ziri ku meza izindi ziri mu kiganza kitagaragara nyiracyo akaba ari inoti zikoreshwa mu gihugu cy'u Buhinde zigaragaraho umukambwe wiswe Mahatimagandhi.

Yambaye ikoti ntabwo isura igaragara ikiganza cye ni icy'umuzungu, afite amafaranga mu ntoki atari amanyarwanda agaragara nk'amadorari.

Ikiganza cy'umuzungu wambaye umukara utagaragaza isura, gifite inoti mu ntoki zikoreshwa ku mugabane w'uburayi harimo iy'ijana, mirongo itanu ndetse na makumyabiri.

Ibihugu byinshi bigiye bigira amafaranga ndetse akagenda arutanwa agaciro, ari hano ni amwe muyahenze kuruta ayandi ku isi azwi nk'amayero, hagaragara inote nyinshi za magana atanu.

Ibiganza bibiri bitagaragara ba nyirabyo biri guhererekanya amafaranga yifashishwa mu bihugu by'amahanga, aha hari inoti iriho umugabo ufite imisatsi igiye inyuma y'ijana.

Uru ni urupapuro rwiswe amafaranga aho rwashyizweho hirya no hino ku isi ngo ruge rwifashishwa mu kugurana ibicuruzwa ukagitanga bakaguha icyo ushaka, aha hari inote y'atanu.

Ni ibiganza by'abantu babiri gusa amasura yabo atagaragara biri guhererekanya amafaranga bigaragaza igikorwa cy'ivunjishwa, kimwe gifite amayero akoreshwa ku mugabane w'uburaya, ikindi gifite amadorari yo muri Amerika.

Inoti y'amafaranga ibihumbi bibiri yo mu gihugu cya Kongo, iragaragaraho umutwe w'ikibumbano ndetse n'inyamaswa ebyiri ndende zikunzwe kugaragara muri za parike.

Ni inzu nziza iri mu mabara y'umutuku ubururu ndetse n'umweru, ku meza hagaragaraho za mudasobwa ariko nta bantu bicaye mu ntebe bigaragara ko bagiye mu karuhuko.

Utwuma tw'umukara dukikije imbuga y'inyubako nziza, ifite inkuta z'umweru, iriho ibyapa byinshi biranga ibikorerwa mo imbere, hari imwe iriho abantu batatu.

Ipikipiki igaragara igice gitoya iri mu mbuga iri imbere y'inyubako ndende ikorerwamo ibikorwa byinshi bitandukanye harimo ibyo kuvunjaama amafaranga dore ko aribyo biri kugaragara ku cyapa.

Ibipirizo bitatse mu buryo bwiza amabara atandukanye ari kugenda anyuranyuranamo biri ku muryango bigizwe n'ibyumweru, ubururu ndetse n'umukara.

Haragaragara urujya n'uruza rw'abantu biganjemo abazungu, ni ahatangirwa serivisi zijyanye n'ivunjwa ry'amafaranga aho hari umukobwa uhetse igikapu cy'umukara wambaye imyenda y'umweru.

Ifite amadirishya n'utwuma tumanutse ndetse n'udutambitse umuryango w'umuhondo hejuru yayo hari icyapa cy'amabara y'ubururu n'umweru.

Ni ibyapa byinshi byometse ku nkuta birimo amabara atandukanye agaragaza ibikorerwa mo imbere mu nzu hari kimwe kiriho ibikapu by'abana bajyana ku ishuri ndetse n'amakaye.

Inyubako ndende y'amagorofa menshi ndetse n'imiryango iri ku murongo imwe muri yo irafunguye indi irafunze uyu ni ukorerwamo ibijyanye n'ivunjisha.

Ni umuryango ukorerwamo ubucuruzi bujyanye n'iby'ivunjishwa ry'amafaranga; aha habera ibikorwa byo gutanga amafaranga y'abanyamahanga ndetse ugahabwa ayo wifuza.

Ni inzu y'umweru ahantu hose, igizwe n'imiryango ibiri, umwe utagaragara neza, uri hano hafi ukorerwamo ibijyanye n'ivunjisha, ufite icyapa cyanditseho ngo dukomere.

Inyubako igezweho igaragaza inkuta zidasanzwe ndetse n'inzugi, irimo intebe nziza ifite imisego ijya gusa nk'umutuku, iruhande rwayo hari akameza kariho ikirahure irimo ururabyo.

Intebe nziza zo mu ruganiriro z'amabara atandukanye ndetse n'ameza asa igitaka, ziri mu nyubako ijyanye n'icyerekezo tugezemo ifite amarangi y'umweru.

Utumeza dutoya tubiri turi hejuru y'indi imwe nini. Zikaba zose zikozwe mu rubaho rukomeye ziragaragara neza cyane ziri hanze y'inzu igaragaraho umuryango w'icyatsi.

Imiryango y'ibirahure igaragaraho ibashinzwe kuzimya inkongi y'umuriro, imbere yawo hari intebe zizengurutse ameza asa neza, akaba ari iz'umutuku.

Ni ahantu hari umuhanda w'amabuye uri kugaragaramo amapikipiki yiganjemo adahetse abagenzi, hirya y'aho hari umusore ufite igikoresho bacurangisha wambagiye iby'umukara ndetse n'undi uri imbere ye uri kumanuka.

Ni intebe ziri ahantu babariza zimeze nk'aho zigurishwa zifite imisego y'amabara meza, ndetse n'ameza atatu amwe manini n'utundi tubiri dutoya.

Urukuta rw'umweru rugaragaraho utubati dukozwe mu mbaho mu buryo bw'ubuhanga, ni dutatu tugiye twinjiranamo buri kamwe kagiye gafite mpandenye zingana.

Ni icyanya nyaburanga kigizwe n'ubusitani butoshye burimo indabyo; hirya hari intebe ziteye ahirangiriye ndetse z'imikara n'imituku; aho ushobora kwicara wumva akayaga.

Inyubako nziza igezweho, ikaba ari iy'amagorofa menshi. Irakamo amatara y'amabara ndetse hanze hayo hateye intebe zitangaje, aho ushobora kuyicaramo wugamye n'izuba hanze.

Inyubako nziza yubatse mu buryo bugezweho igereritse, ikaba iriho amatafari ndetse n'imirongo y'umweru igiye inyuranyuranamo, ikaba isakaje amategura, hanze hari imodoka.

Inzu nziza igizwe n'amatara agiye ari ku murongo ndetse harimo imitako itandukanye, inkuta zayo zisize amarangi y'umweru hakaba harimo intebe zo mu ruganiriro zifite imisego.

Inyubako nziza igaragara ahantu hatuje ikaba igeretse, hasi hayo hari agakuta gato karimo imiseke, imbere yako hakaba hari ikibumbano giteyemo ururabyo.

Harateguye intebe zigiye ziri mu matsinda, ameza ariho igitambaro cy'igitaka n'umweru, hariho amasahani n' ibirahuri, nubwo nta bantu bicayemo ni ahatangirwa ibijyanye n'ibyo kurya .

Agahanda gato gakikijwe mu mpande n'amabuye y'umukara ndetse n'umweru, hari indabyo n'ibiti imbere hagaragara inyubako nziza yubatswe mu buryo butangaje n'amatafari ahiye n'ibirahuri.

Inyubako y'umuturirwa y'amagorofa menshi iragaragara neza cyane kuko icanye amatara aho butangiye kugoroba, imbere yayo hari ibiti ndetse n'umuhanda.

Ahantu heza hisanzuye hashobora kwakira abantu benshi haragaragara intebe zigiye ziri mu matsinda aho hari iz'umutuku zifite ameza y'umukara hirya hari imitaka.

Ubwogero bwisanzure bugaragaramo ibara ry'ubururu bukaba bukikijwe n'imitaka iteyemo intebe, ku ruhande hari uburuhukiro abamaze koga bajya kwicara ahitegeye.

Ni ubusitani bunini buriho ahantu hazengurutswe ndetse hashizemo utwuma tune, hirya yaho haragaragara ibiti biconze neza kandi bitoshye.

Ni ahantu hari amagare ari ku rukuta ndetse hicayemo abirabura n'abazungu, aho bamwe babiri bicaye barebana baganira, undi wabateye umugongo ari kuri mudasobwa.

Ni inyubako ebyiri ziteganye zose zigeretse imwe ikaba ifite ibara risa nk'ivu ryijimye, irimo akuma gashinzwe gufata amashusho, iy'iruhande rwayo irasa umuhondo.

Inzu igaragara ko ari ibiro ariko ifite intebe nziza z'imituku zifite n'imisego, inyuma yazo hari urukuta rumeze nk'ururiho imvaho, hari kandi ikibumbano kirimo indabo.

Umuryango munini hubatswe neza mu buryo bugezweho aho usakaye, ukabamo n'utuzu tw'abashinzwe kugenzura abinjira ndetse n'abasohoka, imbere yawo hari inyubako y'umuturirwa.

Inzu yahariwe gukorerwamo ibintu bijyanye n'ibiro ariko nta muntu uri kugaragaramo, hateye intebe z'ubururu, ameza y'umweru ndetse harimo n'indabyo.

Iki ni icyapa cyamamaza ibijyanye n'ikigo cy'imari gikorera inaha mu rwanda; hariho amagambo agira uti karame, tugane, tuguhe agera kuri miliyoni mirongo itanu; haragaragaraho umugabo wishimye ufite amafaranga mu ntoki.

Ni nk'icyapa cyamamaza kiriho umukobwa ufite imisatsi ishwambaguje, akaba ari kuri telefone aho bakubwira ngo gera ku nzozi zawe n'inguzanyo itazigamiye.

Ni icyapa cyamamaza kimwe mu bigo by'imari bikomeye hano mu Rwanda, kikaba gifite ubururu bwinshi harimo umubare kane utagaragara neza, ndetse n'umusore wafunze urutoki.

Ni inzu icanye amatara yaka, ifite igisenge cy'umweru ndetse imbere harasa ubururu hamanitsemo utuntu turi ku murongo tw'icyatsi turimo amagambo atagaragara.

Icyapa cyamamaza kiriho umusore wambaye ikote ryiza n'ishati, ndetse akaba yahoberanye n'umukobwa ufite amaherena ikanzu y'urwererane, inyuma yabo hari inyubako.

Ni umuturirwa w'amagorofa menshi ugizwe n'ibara ry'umuhondo uragaragaramo abaturage bari kutwuma twagenewe kurinda abari mu nzu kugira ngo batitura hasi.

Iduka ricuruza ibijyanye n'imyambaro kuko izinze ikaba igiye igeretse ku bimeza bihari, hari umukobwa wambaye imyenda y'icyatsi cyijimye ndetse n'umugabo w'ishati y'ubururu n'ikoti ry'umukara.

Isoko rigaragaramo ubucuruzi rusange aho abaguzi baza bakishyura bakabaha ibyo bashaka, hari umukobwa ufite mubazi mu ntoki uri kumwenyura wambaye agapira k'umutuku.

Ni isoko rusange rikorerwamo ubucuruzi butandukanye harimo ibiribwa byiganjemo imboga, imbuto, imineke n'ibindi. Umugabo wambaye umupira utukura ari kwakirwa n'umukobwa umwenyura.

Ni isoko rusange rigaragaramo ibicuruzwa byiza bifite isuku, byiganjemo imboga n'imbuto. Hari amashu, karoti, ibitunguru ndetse n'ibindi. Hirya gato hari umugabo utagaragara neza waje guhaha.

Iri ni isoko rusange rigaragaramo ubucuruzi buciriritse bwiganjemo ubw'imyenda yo kwambara, harimo umudamu uteze igitambaro mu mutwe wambaye umwenda w'icyatsi.

Isoko ryiza rya kijyambere rigaragaramo abaguzi ndetse n'abacuruzi b'ingeri zose. Harimo inyanya, intoryi, amavuta, ibirungo bitandukanye karoti.

Isoko rusange ryiganjemo ibiribwa by'imbuto ndetse n'imboga, harimo inyanya, intoryi, karoti, ibitunguru, abadamu bacuruza, biganjemo abateze ibitambaro mu mutwe.

Ni ahabera ibikorwa by'ubucuruzi hari umukecuru uja abagana uri ku mbago ukenyeye igitenge, hasi ye hari ibase iteretsemo imineke n'indi irimo avoka.

Isoko rusange rigaragaramo ibicuruzwa bitandukanye ibijumba, imyumbati, karoti, imiteja n'ibindi. Hari umusore w'umupira w'umutuku uri gucagura ndetse n'undi ufite agashashi mu ntoki.

Urujya n'uruza rw'abantu mu muhanda ndetse n'abagiye kwambuka, hirya haragaragara imodoka y'umweru igiye kwinjira ahantu hasa nk'aho ari mu isoko.

Iri ni isoko ricuruza ibintu byinshi byiganjemo iby'imitako, hagaragaramo inkoko iriho utuntu, ndetse n'ibitenge by'amabara atandukanye, hari umudamu wicaye hirya wambaye iby'ubururu.

Ni isoko rusange, riragaragaramo urujya n'uruza rw'abantu yaba abacuruzi ndetse n'abaguzi. Ibiribwa byiganjemo ibitoki, karoti, inyanya n'ibitunguru n'ibyo biri kuhagaragara.

Mu bucuruzi buri gukorerwa hanze y'inyubako ndende aho hagaragara imifuka irimo ibirayi iri gucuruzwa n'abadamu babiri, umwe yambaye amadarubindi ndetse yitandiye akantu k'umutuku.

Iki ni icyapa kirimo amabara yiganjemo umuhondo cyamamaza uburyo bugezweho bwo kwishyura hifashishijwe terefone ngendanwa mu buryo bw'ikoranabuhanga.

N'akazu gato kari mu mabara y'umuhondo kagenewe gutanga serivisi zijyanye n'iby'itumanaho, gakoramo umurongo wa MTN. Karafunze nta mukozi uri kugaragaramo.

Ni ahantu hari ihema ry'amabara y'umuhondo agaragara ko ari ikigo cy'itumanaho hano mu Rwanda cya MTN, hahagaze abantu batandukanye barimo umukobwa wambaye iby'ubururu ufite telefoni mu ntoki.

Ni akazu gacuruza ibijyanye n'itumanaho kari mu mabara atukura, imbere yako hahagaze abantu batatu bakaba bari kuramukanya barimo umusaza wambaye imyenda ya kacyi.

Ni inzu itangirwamo serivisi zijyanye n'iby'itumanaho hicayemo umudamu wambaye ijipo y'umukara ndetse n'ishati y'umweru, umutwe we ntugaragara ni igice gito cy'imisatsi.

Mu rwego rwo kwihutisha iterambere ndetse n'ikoranabuhanga kuri ubu hagiyeho amapikipiki ushobora gutuma ibyo wifuza uri mu rugo maze bakabikuzanira, iyi iriho umusore wafunze igipfunsi wambagiye umupira w'icyatsi.

Ipikipiki iriho uyitwaye wambaye ingofero ikurinda mu gihe cy'impanuka itukura ikaba yifashishwa muburyo bugezweho bwo kugeza ibicuruzwa ku bantu babitumizaho bibereye mu rugo.

Icyapa cyamamaza ubucuruzi bukorerwa kuri murandasi, hariho imodoka y'umutuku irimo ibicuruzwa biri gupakururwa, uruhande rundi ruriho abagabo babiri ndetse n'umurongo wa telefone wababonaho.

Icyapa cyamamaza kiriho mu umukobwa uri kumwenyura wambaye udushyira imiziki mu matwi, ufitiye telefone mu ntoki y'umweru wicaye ku buriri, imbere ye hari agakapu k'umukara.

Amapikipiki atatu arahagaze hejuru yayo hateretseho ingofero z'umweru, aya yifashishwa mu buryo bugezweho aho bujyana ibicuruzwa mu ngo z'abantu ku babikeneye.

Icyapa cyamamaza kiri mu ibara ry'umweru, kiriho ibikoresho bitandukanye birimo gazi yo gucaniraho ndetse n'ipikipiki ijyanira abantu ibicuruzwa mu ngo, hariho kandi igicupa cy'amazi yo kunywa.

Imodoka nini ifite ikintu inyuma gishinzwe gutwarwamo ibijyanye n'ibyo gikora byanditseho iposita igizwe n'amabara y'umuhondo ndetse n'umukara.

Ni icyapa cyamamaza ibijyanye n'ubucuruzi bukorerwa kuri murandasi, hagaragaramo imboga ndetse n'imbuto zirimo amashu, inyanya n'ibindi bitekwa.

Ni abagabo babiri batwaye amapikipiki ariko bakaba bahagaze, uw'imbere atwaye umugenzi wambaye imyenda y'umweru ndetse undi w'inyuma akaba yambaye agasengeri k'igitaka.

Iri ni ibaraza ry'inyubako nziza igezweho, rigaragaza igisenge cy'umweru, ifite inkingi ndetse n'utwuma tuyizengurutse, ikaba iriho inzugi z'ibirahuri binini.

Inyubako igezweho izengurutswe n'irangi ry'umweru hejuru, ikindi gice cyo hasi kikaba cyometseho amakaro, iki ni igice cy'icyumba kibikwamo ibikoresho byo mu gikoni.

Mu cyumba kigaragaramo akabati keza gakozwe mu mbaho ndetse n'urugi rukinguye, harimo igitanda gishashe kitagaragara umuntu waba akiryamyeho.

Ibirahure bigiye bifashwe n'utwuma two hagati tw'umukara biri mu ibaraza ry'inzu nziza y'acyerekezo imbere yaho hari igiti kizana umuyaga ndetse n'urupangu rwubakishije ruriba.

Ni inyubako igezweho. Ifite inkuta, iriho amakaro, igisenge cy'umweru n'itara, haragaragaramo ubwogero bugezweho aho amazi aturuka hejuru.

Icyumba kirimo igitanda cyiza kigezweho gishashwe neza imisego, ariko ntamuntu ukiryamyeho gifite umutwe w'umukara hagaragaramo inkuta z'umweru.

Bahagaze ahirengeye bitegereza amazu ari hakurya ndetse n'ubusitani buri mu kibaya bugizwe n'ubwatsi butoshye n'ibiti, n’umuzungu wambaye ishati y'umweru uhagararanye n’undi w’agapfukamunwa.

Ni inzu nziza igaragara ko ari ijyanye n'igihe tugezemo; ifite imiryango y'imbaho ndetse n'amadarage azamuka hejuru; inkuta zayo ni umweru dede.

Inyubako nziza ya kijyambere, mu mbuga hashashemo utubuye tw'amabara yiganjemo ay'umukara ari ku murongo ndetse inzu ni nziza ifite inkingi imwe irenga ibaraza.

Imiturire myiza irangwa n'inyubako zijyanye n'icyerekezo turi kuganamo, uru rupangu rufite igisenge ni rumwe mu zidasanzwe inaha mu Rwanda, hari inyubako y'amabara y'umweru.

Imbuga irimo amabuye atatse mu buryo bw'inyenyeri ay'umutuku ndetse n'ay'umukara ikaba iri mu inzu nziza ifite igisenge cy'umutuku akabaraza harihori inkingi.

Inzuzi zahajyanye n'icyerekezo ifite inzugi z'imvaho zikomeye ndetse harimo intebe zo mu ruganiriro, n'utwuma dushinzwe kuzana akayaga, ikaba ifite inkuta z'umweru.

Ni inyubako ijyanye n'igihe tugezemo aho yubatswe ku buryo bwa kijyambere ifite inkuta zisa n'umweru dedede ndetse n'amakaro arimo utubara tw'umukara imiryango irafunguye.

Inzu nziza igaragara mu gice cyayo cy'igikoni ahabikwa ibikoresho byifashishwa mu guteka ndetse bakanahogereza ibintu, harasa neza, ku makaro y'umweru ndetse n'ahaturuka amazi h'umukara.

Igihugu giteye imbere ukibwirwa n'inyubako nziza zigezweho, zijyanye n'icyerekezo tugezemo. Iyi iragaragara nkaho iri kugurishwa, ifite inkuta z'umweru, harimo umugabo w'umuzungu ndetse n'umukobwa.

Imbuga yisanzuye ihagazemo imodoka y'umukara, igizwe n'inzu nziza aho hagaragara ibaraza ryayo, inkingi eshatu n'utwuma tuzigaragiye.

Ubwiherero bugezweho bugizwe n'icyo bicaraho cy’umweru ndetse n'ubwogero bw'ibirahure, bufite amazi aturuka hejuru. N'inyubako nziza ushobora kubona kuri miliyoni ijana na mirongo itatu.

Inzu nziza igezweho igaragaza igice kimwe cy'igikoni, kirimo ibyuma bishyushya cyangwa se bikonjesha ibiribwa ndetse n'ibinyobwa. Hirya gato mu muryango, hari umugabo wambaye ishati, uri kureba muri terefoni.

Ubusanzwe mu nyubako zigezweho zirangwa n'ibintu byinshi biteye imbere, iyi iragaragaramo ubwogero bwo mu nzu bukikijwe n'ibirahure ndetse n'akuma kamanura amazi aturutse mu kirere.

Inyubako nziza igezweho ikaba ifite inkuta ndetse n'igisenge by'umweru, iteretsemo intebe nziza zifite imisego. Iyi kuyikodesha bikaba bigusaba icyatanu cy'idolari buri kwezi.

Ni inyubako nziza yitaruye ifite imbuga ishobora kwakira ibinyabiziga byinshi ndetse ifite agapangu k'amatafari ahiye, inkingi, ibikuta by'icyatsi, umuhondo n'andi mabara.

Inyubako nziza igeretse gatatu ifite inkingi ziri ku murongo ikaba iriho inkuta zitukura ndetse umweru, amadirishya byayo ni umukara ubusitani bwiza ndetse n'ibiti.

Imbuga y'isanzuye ikoze mu buryo bwiza bugezweho, igiye yifitemo utubara dutukura iruhande hari inzu nziza ifite ibaraza ririmo umweru, ndetse ku ruhande hakaba ari umuhondo igisenge cy'umukara.

Amadirishya agizwe n'utwuma tw'umweru tumanutse utundi dutambitse ari ku nyubako nziza igaragara, aho hanze mu mbuga nta muntu uyirimo.

U Rwanda ni kimwe mu bihugu biri gutera imbere aho kigaragaramo inzu nziza zijyanye n'icyerekezo tugezemo iyi ifite igisenge cy'ubururu, nkingi zirimo ibaraza n'utwuma tuyikikije.

Ifite imbuga yisanzuye ishashemo amabuye yiganjemo ay'umutuku, ni inyubako y'igorofa rimwe ikaba isize amarangi y'umweru ibirahure by'umukara.

Iguriro rusange riragaragaramo ibicuruzwa bitandukanye ndetse n'abaguzi, hari mudasobwa zishinzwe kubarira abantu iyo bamaze guhitamo ibyo bari butahane bagiye kwishyura.

Ni ahakorerwa ubucuruzi bujyanye n'ibyo kwambara, haragaragara imikandara i y'abasore ndetse n'iy'abagore hari kandi amashakoshi, inkweto n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ni isoko rusange rigaragaramo ibicuruzwa byinshi; ariko nta bantu turi kubona; higanjemo imitako yo mu nzu, mu biro ndetse n'ahandi hahurira abantu.

Inyubako ikorerwamo ibintu bitandukanye, ikaba igaragara umugabo wicaye ku ntebe, uri kwakira abavuye kugura ibicuruzwa biba birimo hirya, aho uzenguruka ubihitamo.

Ni inyubako igaragara nk'aho ikorerwamo ubucuruzi bw'ibiribwa ndetse n'ibinyobwa, yaba ibisembuye ndetse n'ibitameze bityo. Harimo abasore bashinzwe kwakira ababagana, bambayege imipira y'imihondo.

Inyubako nini zashyizweho ngo zijye zikorerwamo ibicuruzwa byinshi icyarimwe. Iyi ngigi iragaragara igisenge cy'umweru, ndetse n'inkingi zifashe, zikomeye neza.

Ibiganza bitagaragara neza bifite inzara zisize umutuku, bifite mu ntoki agashashi karimo utuntu, imbere hari mudasobwa iri kwaka. Bigaragara ko ari ibara ibisohoka n'ibyinjira.

Ni ahantu hahuriye abantu benshi, harimo abanyeshuri nk'uko bigaragazwa na bamwe bambaye impuzankano z'amapantaro ya kaki ndetse n'amashati, hakaba hari gukorwa ubukangurambaga bwa ejo heza.

Ubusitani bugizwe n'ubwatsi buzengurutswe n'indabyo ndetse n'amabuye cy'imitako hirya hari ahagenewe guca abantu hatwikiriye ndetse hakaba hagaragara abadamu abana n'abandi bigaragara ko ari ku ivuriro.

Ni abakobwa cyangwa se abadamu babiri; bahagaze bambaye imyenda y'umukara; bakaba bafite icyapa mu ntoki cyanditseho ngo umunyamuryango ku isoga; uru ni urwego rw'igihugu rw'ubwiteganyirize rssb.

Inyubako ndende y'igorofa igaragaraho amabara ajya gusa umuhondo, ikaba kandi igizwe n'ibirahure by'ubururu, hasi hari inkingi zubakishijwe amabuye ikaba ikoreramo ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize.

Ni udupapuro turi ku meza twakoze ishusho y'umusaraba, tukaba dufashwe n'ikiganza kitagaragara nyiracyo, gifite inzara zisize utubara tw'umukara.

Ni abaturage benshi biganjemo abadamu bakenyeye ibitenge ndetse banateze ibitambaro mu mutwe, hakaba hari uhagaze ari kubaha impapuro aho bicaye mu busitani.

Ikarita y'ubwisungane mu kwivuza y'umuhondo ndetse ikaba izwi nka mituweli, ubu ni uburyo leta y'u Rwanda yashyiriyeho abaturage bugeza ubuvuzi kuri bose yaba ufite ubushobozi ndetse n'utabufite.

Icyapa cyamamaza uburyo bwashyizweho na leta y'u Rwanda bwo kwisungana mu kwivuza, aho buri muturage atanga amafaranga makeya, maze yazagira uburwayi bakamuvuza.

Ni iguriro rusange rya kijyambere rigezweho haragaragaramo ibicuruzwa bitandukanye birimo imboga n'imbuto, hahagazemo umusore uri kugenda ahitamo ibyo ataha.

Ibyuma bishinzwe gukonjesha ibinyobwa yaba ibisembuye ndetse n'ibidasembuye birimo, haragaragara amacupa y'amazi amanini ndetse n'amatoya, hejuru hari urukuta rubengerana rw'umukara.

Iguriro rusange rigaragaramo ibyo kurya by'ingeri zitandukanye ndetse n'ibyo kunywa, aha uhatambuka uhitamo ibyo uri butahane maze wamara kubigwiza ukagenda ukishyura.

Ni iguriro rusange rigaragaramo ibicuruzwa bitandukanye harimo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, mu mukayira abantu bacamo iyo bari kubihitamo hirya hahagaze umuntu utagaragara neza.

Isoko rya kijyambere riragaragaramo ibicuruzwa byiza kandi bifite isuku birimo imboga n'imbuto, harimo ushinzwe kubitunganya wambaye umwenda w'icyatsi.

Iguriro rusange rigaragazwa n'ibicuruzwa biba bipanze neza ku murongo ndetse mu byiciro bitandukanye, aha uzengurukamo ufiti akagare, ukagenda utoranya icyo wifuza uza gutahana.

Isoko ryagutse ririmo ibicuruzwa bitandukanye, yaba ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa. Mu kayira gatambukamo abaguzi iyo bagenda bahitamo ibyo bari butahane, hirya hari umukobwa utegereje kubakira.

Amaduka hagezweho ya kijyambere uyasangamo buri gicuruzwa cyose wifuza kandi gifite isuku, aha haragaragara ibipanze mu buryo butandukanye burimo amata ndetse n'ibikorwa mu mbuto.

Ni iguriro rusange ririmo ibintu byinshi, yaba ibyuma bishyushya cyangwa se bikonjesha, ibiribwa n'ibinyobwa ndetse n'ibindi bitandukanye. Haragaragaramo abantu hagati muri ryo.